Ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu Radiant, aho badushishikariza turi kumwe ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima bugoboka umuryango wawe mu gihe wahuye n'impanuka, ahari umudamu ufite imisatsi miremire, wambaye umupira w'ubururu uriho Radiant ndetse n'undi wambaye amadarubindi urimo guseka, bari kumuhereza isheki iriho amafaranga yabashije kwizigama.

Uburyo ushobora kubona dosiye yawe y'uko wishyuye neza, ubwisungane mu kwivuza mituweri de sante, amafaranga ibihumbi cumi na bibiri, ukishyura mbere y'itariki eshanu z'ukwa karindwi bitewe n'umwaka turimo.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu cyitwa buritamu insurence aho kidushishikariza mu kuramba na buritamu. Ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye ku bigo bitoya n'amashyirahamwe ku bubindi bisobanuro babandikira ku rubuga rwabo rwanda albad britatt.com ndetse ukanababahamagara.

Uburyo ushobora gukoresha unyuze kuri murandasi, ukinjira muri banki yawe, ukabasha kuba wamenya amakuru yose ukeneye kuri konti yawe, ibizwi nka banki apuzi mu ndimi z'amahanga, ugasobanukirwa uburyo ki amafaranga yasohotse ayo winjije ndetse n'ayo usigaranyeho.

Uburyo bwo kwishyura unyuze kuri murandasi bwo kuri Eko banki, aho uhitamo nimero ya konti, amazina y'uwo ugiye kwishyura, impamvu ugiye kwishyura, umubare w'amafaranga ndetse n'umubare banga ukoresha, hanyuma ukabasha kuba wakwishyura.

Uburyo bwo kuri murandasi bizwi nka banki apusi mu ndimi z'amahanga, ushobora gukoresha ugenzura serivisi za banki yawe, harimo amafaranga uko yasohotse, uko yinjiye, uko wabona inguzanyo, uko wavunjisha amafaranga, uko wakwishyura umuriro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyambaro igiye itandukanye, ahari umugabo urimo guseka wirabura wambaye umupira w'umweru, imbere akaba ari mudasobwa ndetse n'akamashini mu ntoki ze n'umuzungu wambaye ishati y'icyatsi urimo kumuhereza ikarita y'iwe yo kwishyuriraho ibizwi nka Online payimenti, aho arimo kubasha kwishyura ibyo yahashye hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Hakurya y'umuhanda, ahari inzu icururizwamo imyambaro inyuranye, yiganjemo iy'igitsina gore, iri hanze ku bintu byabugenewe byitwa maneke, hariho amakanzu y'amabara atandukanye.

Mu iduka ahazwi nko muri butiki mu ndimi z'amahanga, hacururizwa imyambaro igiye itandukanye ikozwe mu bitenge, hakaba hari umudamu urimo guseka, ufite imisatsi isutse ndetse wambaye ikanzu y'igitenge, imbere ye hakaba hari mudasobwa ndetse n'agakoresho kifashishishwa mu kubara, ikizwi nka karikireta mu ndimi z'amahanga.

Ikigo kigurisha ibinyabiziga by'imodoka, kizwi nka Mahindra, ahari gereza abantu batandukanye bafite udukapu mu ntoki dusa umutuku batatu, bisa naho baguze ndetse n'abandi batatu babari hafi, basa n'aho barimo gufata amafoto.

Abagabo babiri umwe mwambaye umupira w'umukara n'ipantaro ndetse n'undi wambaye umwambaro uzwi nk'uw'abanyacyubahiro ikositimu, imbere yabo hakaba hari imodoka nziza y'umukara, bakaba barimo guciririkanya ibiciro, umwe arimo kuyigura undi arimo kuyigurisha.

Ikigo gikora ubucuruzi bw'amamodoka kizwi nka Kigali kamaketi mu ndimi z'amahanga, aho bagurisha imodoka isa umweru yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri merisedesi benzi i maganatatu ku giciro cya miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Amafaranga nka kimwe mu bintu byifashishwa cyane ku isi mu mibereho ya buri munsi, aho hari ufite amafaranga y'Amanyakenya mu biganza bye yiganjemo inote z'igihumbi.

Uburyo bwo guhererekanya amafaranga binyuze mu kuyavunja bitewe n'Igihugu uherereyemo, ushaka gutunga ayo muri icyo Gihugu urimo. Aho hari umwe urigutanga amadorari n'undi urimo kumuhereza amafaranga y'amarundi binyuze mu mukayira kabugenewe.

Ahacururizwa ibikomoka ku nka birimo amata hazwi nka Nyanza famu, hakaba hari ikaragiro ndetse n'amatara aba afunze mu tujerekani dutandukanye, litiro eshanu, litiro eshatu na litiro imwe. Harimo inshyushyu ndetse n'aharimo ikivuguto.

Ahacururizwa ibikomoka ku matungo birimo amata, hazwi nko muri mirike zone, Inyange aho bacuruza amata ndetse n'ibindi bikomoka ku mata, intungamubiri ukeneye ku giciro cyiza, ikaba itangwa ku giciro cyiza, abayacuruje bakaba bambaye ingofero z'umweru n'amashati y'umweru.

Uburyo bukoreshwa mu kwishyurwa amafaranga, buzwi nka Paypal, aho uba ufite konti muri Paypal, ukabasha kuba wabona ayo ufiteho ndetse ukaba wanabasha kuyabikuza.

Uburyo bwifashishishwa mu kwishyura ukoresheje telefone yawe buzwi nka Eyateri mani aho ukanda akanyeri kane gatatu gatandatu urwego ubundi ukabasha kuba wakoherereza umuntu amafaranga cyangwa we akaba yayaguha.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gukoresha wishyura amafaranga buzwi nka dijito peyimenti puratifomu bwa MTN momo, aho ushyiramo amafaranga ushaka kwishyura ndetse ukaba wanagura icyo ukeneye.

Urupapuro rutangwa mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda revenu otoriti mu ndimi z'amahanga, aho haba hariho tini namba, amazina ndetse n'umubare w'amafaranga umuntu agomba kwishyura.

Icyangombwa gitangwa unyuze kuri murandasi n'ikigo kibishinzwe Rwanda reveni otoriti gishinzwe imisoro n'amahoro. Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Amafaranga y'amanyamahanga amayero bizwi nka foreyini karensi handoringi mu ndimi z'amahanga akaba akoreshwa mu bihugu byo hanze cyane cyane hakaba hari inote ya magana abiri, iy'ijanaya, iya mirongo itanu, iya makumyabiri, iy'icumi ndetse n'iy'atanu.

Amafaranga y'abanyamahanga akoreshwa hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu by'i burayi azwi nk'amayero, akaba afite agaciro gahambaye aho dufite inote ya magana atanu.

Umuryango ukoreramo ikigo cyitwa Dahabashire mu ndimi z'amahanga, gikora ibijyanye no kuvunja amafaranga bitewe n'ayo ufite ndetse n'ayo wifuza kuyavunjamo. Kikaba giherereye i Remera mu mujyi wa Kigali.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo kuvunja amafaranga, gutanga amatike y'indege ndetse no kuba wakohereza amafaranga avuye mu gihugu kimwe ajya mu kindi, bizwi nka wesitani yuniyoni mu ndimi z'amahanga.

Intebe zikozwe mu mbaho ndetse ameza akaba ariho ikirahure hejuru, yicarwaho mu gihe cyo kurya ibizwi nka sala manje mu ndimi z'amahanga.

Intebe ziri mu ibara ry'ubururu, harimo imisego zikoze neza, zikaba zigurishwa kandi ku giciro cyiza, inyuma yazo hakaba hari mudasobwa n'indi ntebe y'umukara ndetse n'imitako iri ku gikuta.

Hoteli yubatse mu buryo bwiza, ahari amatara ari gucana amabara atandukanye, ahazwi nka komvesheni senta iri mu ibara ry'idarapo ry'igihugu, icyatsi n'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ihoteli yubatse mu buryo bugezweho, ifite amarangi y'umuhondo ndetse hanze hakaba hari indabo z'ubwoko bunyuranye, iziri mu mavase yabugenewe ndetse n'izindi ziteye ku ruhande zidufasha mu mihumekere myiza.

Ihoteri ifite inyubako zinyuranye z'amagorofa ndetse hakaba hari n'ah'ubwogero ibizwi nka pisine mu ndimi z'amahanga n'aho abantu baruhukira bavuye mu mazi hari udutanda two kuryamaho n'imitaka iba ibatwikiriye.

Ikigo gitanga ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu, PRIME insuwarensi, sekuwa tumoro, tudeyi, ishami rya Rusizi.

Uburyo bwashyizweho na banki ya Kigali urumuri inishiyativu guca ku ya gatatu, aho uteza imbere bizinesi yawe winjira mu marushanwa. Buri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nibwo byabaye, itariki ntarengwa yari mirongo itatu n'imwe zukwa gatatu bibiri na cumi n'icyenda. Ukaza muri makumyabiri na batanu bazafashwa mu guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda bizwi nka meyidi ini Rwanda.

Uburyo ushobora kubonamo inguzanyo uyihawe na idem bank ndetse ugashinganisha ibikorwa byawe muri old mature ikigo cy'ubwishingizi bakaguhererereza package insurance yawe harimo icyasharakava heza care na premia finansing wifuza ubusobanuro wahamagara mirongo itatu na kabiri makumyabiri na karindwi.

Inyubako y'igorofa rirerire ikorerwamo ibikorwa binyuranye hakaba hari ibiro bya muganga batanga inguzanyo ku bayifuza kugira ngo biteze imbere hedi ofiise endi meyini buranshe byose bikaba ariho bikorera.

Ikigo cya ayi endi emu banke gitanga inguzanyo ku bikorera ndetse n'abashaka gutangira imishinga, kikaba kiri gushaka abakozi ku mwanya wa emvironimento andi sosho risike managimenti sipesiyarizashoni, itariki ntarengwa, cumi n'enye zukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane, saa kumi n'imwe z'umugoroba.

Ubwishingizi ku bintu ndetse no ku bantu ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, aho banki ya Afurika idushishikariza gufata inguzanyo y'ubwishingizi ku modoka yawe. Ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe, aho wabahamagara nimero itishyurwa mirongo itanu rimwe makumyabiri ku buntu.

Abadamu banyuranye ndetse n'umuzungu w'igitsina gore, aho bafite amakani yifashishwa mu gutwara amata bayakuye aho bakamiye bayajyana ku makusanyirizo atandukanye, aho bafashe inguzanyo kugira ngo bongere umukamo.

Ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye gakondo harimo imyuko, imimamiyo, udukapu, imigongo, ingoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikozwe mu buryo gakondo, mu bitenge ndetse n'amataburo byashushanyijeho inyamaswa zinyuranye.

Mu isoko ahacururizwa imyambaro inyuranye, iy'abadamu, iy'abagabo iy'abana, haakaba hari imbaga y'abantu bagiye batandukanye, abambaye amajire ya COPEDO AHEZA KANOMBE, bashinzwe gutwaza abantu.

Mu isoko ricuruza ibintu bigiye binyuranye, harimo imboga n'imbuto ndetse n'ibindi biribwa birimo imyumbati, ahari abaguzi ndetse n'abagurisha, bafite utumashini twabugenewe ku buryo umuntu ashobora kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Mu isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye: imboga, imbuto, ibirayi, ibitoki, karoti, imiceri n'ibindi bitandukanye. Ahari umudamu wambaye ijele y'icyatsi ufashe uruboga mu ntoki ziwe ndetse akaba yambaye n'amadarubindi n'igitambaro mu mutwe.

Mu isoko ry'imyenda ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye, iy'abato, iy'abakuru, iy'abagore ndetse n'iy'abagabo, ahari abari kugura ndetse n'abari gucuruza n'abandi barimo kudoda bakoresheje imashini.

Mu isoko hacururizwa imboga, imbuto, inyanya n'ibindi bitandukanye hari abadamu babiri umwe wambaye agatambaro n'amadarubindi urimo guseka ufite n'agakapu ku rutugu ndetse n'agashashi mu ntoki k'umukara n'undi ufite akuma kabugenewe ari gufata ikarita kugira ngo amubikurire amafaranga kari mu myambaro y'ibitenge.

Abasore babiri bambaye imipira ya MTN mobiyiro mani ndetse imbere yabo hakaba hari mudasobwa nini n'undi wambaye umupira w'umweru, uhetse igikapu urimo kubavugisha abaka serivise zabo zigiye zitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kwishyura amafaranga, ukoresheje telefoni yawe buzwi nka momo peyi, aho wandikamo imibare itandukanye harimo akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego, ubundi ugashyiramo kode zabugenewe. Hari rimwe, zeru, umunani, kane, rimwe, gatatu, ubundi ukabasha kwishyura.

Inyubako ikoreramo ikigo gishinzwe itumanaho MTN Rwanda, aho ari abakobwa bambaye imipira y'imihondo ndetse n'undi ubari imbere, waje gusaba serivise, aho badushishikariza kutisondeka. Mu gihe turimo gukoresha umuyobo wa MTN.

Uburyo bukoreshwa mu kugabanya ihererekanya ry'amafaranga buzwi nka momopeyi, aho ukanda akanyinyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, urwego, ugashyiramo kode ukabona amazina ibaruyeho ndetse ukabasha kwishyura ukoresheje telefone yawe.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, kazwi nka mobiyile mani kiyosiki, harimo umusore wambaye umupira urimo amabara ya shokora n'umweru, utanga serivisi za mobayile mani, kubitsa, kubikuza amayinite, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Akazu gato gateretse ku muhanda, ibizwi nka mobayilo mani kiyosiki gasize amarange y'umuhondo, harimo umukobwa uri guseka wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi miremire, aho ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga ukoresheje MTN mobayilo mani.

Umujyi wa Kigali ahagiye kubera igitaramo kizwi nka Kigali apu, aho ushobora kubona itike yawe unyuze kuri wawawa doti jumia doti rwa ukabasha kubabona itike yawe kandi ku giciro kiri hasi.

Ikigo kizwi nka Biras, kidufasha mu gushyiramo gaze mu macupa yashizemo ndetse n'amazi, ubifuza ko bagukorera iyo serivisi wabahamagara kuri nimero zeru, karindwi, umunani, gatanu, gatanu, kabiri, gatanu, karindwi, rimwe, gatandatu.

Uburyo bworoshye bukoreshwa mu kuba wagura ibiribwa kuri interinete bizwi nka onorayine shopingi mu ndimi z'amahanga, aho ushobora kugura ibiryo ugiye guhita urya na kunisi fudu, bakaba babikugezaho ahari moto ifite ikintu cyabugenewe gisa ubururu gitwara ibyo umuntu yaguze ndetse bakabimushyikiriza mu gihe gitoya.

Uburyo bugezweho buzwi nka onurayini shopingi purati fomuzi mu ndimi z'amahanga, aho ugura ndetse bukanagurisha ibintu kuri murandasi bizwi nka i shopingi, aho unyura kuri wepusiyiti zabo cyangwa ukaba wabahamagara kuri nimero zitishyurwa zeru karindwi iminani itatu, tatu karindwi zeru gatatu gatatu, ukaba wabasha kubona ibyo wifuza.

Inyubako igurishwa mu mujyi wa Kigali, Kabeza, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inyubako ikodeshwa irimo aho bakarabira hazwi nko mu bwogero, ubwiherero bwa kijyambere, ikirori ndetse hakaba hasa neza.

Inzu yubatse neza, ifite amarangi y'umweru n'amakaro y'umweru hasi ndetse hanze ku mbuga hakaba hari imodoka yo mu ibara ry'umutuku, ikaba iherereye i Kanombe Kigali, uwaba ayifuza yayigura kuri miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Inyubako ikodeshwa mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho hari mu ruganiriro, harimo intebe nziza ndetse hakurya kaba ari n'aho barira n'igikoni gikoze neza n'amatara yaka hirya no hino, ikaba ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali, Kabeza, ifite igikoni cya kijyambere, ikaba ihodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu iri mu Mujyi wa Kigali igurishwa, ikaba ifite ubuso bwa magana atatu na gatanu sikweya mita, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu y'amanyarwanda.

Inzu y'igorofa iri ahantu heza, imbera hakaba hari imodoka, ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amafaranga ibihumbi bibiri by'idolari ku kwezi.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, ikaba igurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo ine, ifite ibyumba bitatu, ubwogero butatu, uruganiriro ndetse n'aho barira n'igikoni gifite umwanya munini.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho isize amarange y'ubururu, ikaba ifite amabati y'umutuku, hakaba n'insinga z'umuriro ziri kuhanyura n'ibiti biteye hafi yayo, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ahazwi nka shoping mode mu ndimi z'amahanga hacururizwamo ibintu bitandukanye, imyambaro, ibiribwa iby'ubwiza ndetse n'imitako.

Ahagurirwa ibintu bigiye bitandukanye hazwi nka shopping moro mu ndimi z'amahanga, hacururizwa amashakoshi, inkweto z'abagabo ndetse n'iz'abagore n'imyambaro, ahari urujya n'uruza rw'abantu barimo guhaha ndetse n'abarimo gucuruza.

Mu isoko aha ahahirwa ibintu bitandukanye hazwi nko muri shopingi mowuze mu ndimi z'amahanga, ahari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, umupira ndetse n'inkweto, ufite misatsi miremire, uri gucunga akagare kabugenewe bifashishisha barimo guhaha, bashyiramo ibyo barimo kugura.

Ahacururizwa ibintu binyuranye mu buryo bwa rusange hazwi nka shopingi hawuse mu ndimi z'amahanga hakaba hari abaguzi barimo kugura ibicuruzwa bifunze mu buryo bw'amacupa mu makarito ndetse n'utugare bifashishisha barimo kubihaha.

Ikarita yo kwivurizaho izwi nka mituweli de sante , ahaba hariho izina ry'ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza izina ry'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza amazina y'umunyamuryango nomero y'umunyamuryango nomero y'indangamuntu umudugudu akagari umurenge ndetse n'itariki y'amavuko y'uwivuza .

Uburyo bukoreshwa mu kwizigamira by'igihe kirekire buzwi nka ejo heza ahari umugabo bamutunze indangururamajwi ya arabiye, uri mu myambaro y'abanyacyubahiro ikositimu ndetse n'ishati, n'imisatsi migufi ya aho arimo gusobanura ibijyanye n'ejo heza.

Ahatangirwa serivisi zinyuranye kwa muganga, igisate cyahariwe ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza; aho baguha ikarita yo kwivurizaho izwi nka mituweri do sante.

Ahari ingeri z'abantu bagiye batandukanya, abo igitsina gore, b'igitsina gabo bari guhaha ibicuruzwa biri mu makarito biri mu mashashi ndetse n'ibifunze mu bikoresho byabugenewe. Bakaba bari mu iduka tuzi nka supermarket mu ndimi z'amahanga.

Mu isoko rigezweho ahazwi nka supermarket mu ndimi z'amahanga acururizwa ibiribwa bike bitandukanye ibiri mu mashashi ibifunze mudukopo twabugenewe igice kirimo amashashi afunzemo ibirayi bikoze mu mafiriti bizwi nka patato kirisibi mu I ndimi z'amahanga.

Mu isoko rigezweho ahazwi nka sups msketi mu ndimi z'amahanga, ahacururizwa ibintu binyuranye biri mu byiciro bitandukanye, ibiribwa, imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bigiye bifunze mu dukopo twabugenewe, amashokora, amabiswi.

Isoko rya kijyambere rizwi nka supa maketi mu ndimi z'amahanga, ahacururizwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa binyuranye, harimo amabiswi, amashokora, n'ibindi bitandukanye.

Mu isoko rigezweho ahazwi nka supa maketi mu ndimi z'amahanga ,ahari umudamu wambaye ikanzu ndende y'umukara irimo n'andi mabara, ufite imisatsi wambaye amaherena urimo guseka, afite akantu kabugenewe ko guhahirwamo, ari guterura umufuka w'umuceri awushyiramo, harimo n'ibindi bintu binyuranye yahashye harimo amavuta yo guteka ndetse n'ibindi bitandukanye.